Itangazo ryerekana uburyo abaturage biyishyurira ubwisungane mu kwivuza bakoresheje telefoni zabo hari ubutumwa bahabwa mu gihe bamaze kwishyura.

Itangazo ry'ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, n'imitungo y'abantu. Rishishikariza abantu gufata ubwishingizi bwo gutuma ugendana icyizere mu rugendo.

Ifoto igaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi kiri kwamamaza ubwishingizi bukeneye abaturage buzwi nka mituweli, ubwisungane mu kwivuza bukoreshwa igihe abantu bagiye kwivuza.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda, kigaragariza abagenzi iby'ikigo gitanga ubwishingizi ku buzima, giha abageze mu za bukuru.

Itangazo ry'ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, rishishikariza abaturage kuza gufata ubwishingizi bw'ubuvuzi igihe umuntu yarwaye, abantu babiri bareba uryamye ku gitanda cy'abarwayi.

Icyapa gishishikariza abaturage kuza gufata ubwishingizi bw'ubuzima n'ubwishingizi bw'ibikoresho bitandukanye muri iki kigo.

Icyapa cy'ikigo gitanga ubwishingizi, ku buzima ndetse n'ibindi bikoresho, gishishikariza abaturage kujya gufata serivisi batanga.

Itangazo ry'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi ku buzima n'ibintu bushishikariza abaturage kujya gufata ubwishingizi bw'umuryango.

Ubutumwa bukenewe, umuntu umaze kohereza amafaranga akoresheje gahunda ya banki ikorerwa muri terefone ngendanwa.

Uburyo bukoreshwa na banki cyangwa ikigo cy'imari, bworohereza abakiriya gukoresha konti zabo, hakoreshejwe terefoni zigendanwa.

Uburyo bukoreshwa na banki bwo korohereza abakiriya bayo kugira ngo bakoreshe konti zabo bifashishije telefone zigendanwa batavuye mu rugo.

Uburyo bwa banki se cyangwa ikigo cy'imari, bukoreshwa n'abakiriya bayo, bukoreshezwa muri telefoni zigendanwa, aho umukiriya aba agenzura konti ye n'uburyo asabamo inguzanyo.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ibikoresho bikenerwa n'abaturage byiganjemo imyambaro, abagura n'abagurisha bakoresha mudasobwa.

Inkweto ziteretse neza ahantu hari akabati zicururizwamo cyangwa aho zigurishirizwa.

Iduka rigurirwamo ibikoresho bya buri munsi, ndetse rigacururizwamo n'ibiribwa ndetse n'ibyerekeranye n'imideli.

Iduka ricuruza imyambaro, ibikapu, n'amashakoshi, n'ibindi bijyana n'imideli, abaturage baza kugura bakabyambara.

Iduka ricuruza imyambaro, ibikapu, n'inkweto, bikenerwa n'abaturage mu kwambara cyangwa ibindi bikorwa by'imideli, abaturage ubacuruza.

Isoko ricururizwamo ibijyanye n'imyambaro harimo imyenda, imitaka, ndetse n'ibikapu n'ibindi bijyana n'inyungu.

Iduka ricuruza ibiribwa n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abaturage mu buzima bwa buri munsi, umubyeyi acuruza, undi yaje guhaha.

Iduka ricuruza imyambaro ndetse n'ibikoreshwa mu gukora imyambaro ndetse no gukora ibijyanye n'imideri.

Iduka ricuruza imyambaro, inkweto, ibikapu n'ibindi bikoreshwa mu mideri ndetse bigakoreshwa no mu birori.

Iduka ricuruza imyambaro ndetse n'ibindi bijyana n'imideli, aho abaturage baza kugurira imyambaro bakeneye.

Abantu babiri bafashe icyerekana ko waguze ikinyabiziga, imodoka y'ikamyo iparitse inyuma yabo n'izindi modoka.

Abantu bifotozanya, hari ikigaragaza ko baguze imodoka ndetse imodoka iparitse inyuma yaho, iruhande rw'inzu ikorerwamo ubucuruzi.

Imodoka iri imbere y'inyubako ndende y'igorofa, yubatswe muburyo bugezweho, imodoka ikaba igurishwa cyangwa iri ku isoko.

Abantu bari guhererekanya ikigaragaza ko baguze ikinyabiziga cyangwa imodoka bari iruhande rw'inyubako ikorerwamo ubucuruzi.

Ikinyabiziga gitwara abantu ubakeya ndetse kiri ahacururizwa ibinyabiziga cyangwa ahagurishirizwa ibinyabiziga.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'imodoka ziva hanze zinjira mu gihugu, hakorera inganda zicuruza imodoka aho abantu bashobora kujya kuzigurira kandi hakaba haba n'ibindi bikoresho by'imodoka.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Zikaba zitwara abaturage zibavana mu bice bimwe zibajyana mu bindi bice. Zikaba zikorera mu bice bitandukanye by'igihugu.

Amafaranga ibihumbi bibiri, imwe mu noti zikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda.

Inyubako ikorerwamo n'ikigo k'imari cyangwa banki itangirwamo serivisi zijyana n'amafaranga. Abaturage baje gusaba serivisi, abakozi ba banki batanga serivisi inyuma y ibirahuri.

Amafaranga y'inoti akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda agaragaraho amwe mu mafoto y'ibyiza bitatse u Rwanda.

Amafaranga y'inoti y'ijana, yakoreshwaga mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihe byatambutse, mu bucuruzi ndetse n'ibindi.

Amafaranga y'ibiceri yakoreshwaga mu Rwanda mu bihe byashize akoreshwa mu bucuruzi.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho n'ibindi bitunganywa biturutse ku mata bigacururizwa mu maduka.

Iduka ricuruza amata ndetse n'ibiyakomokaho, n'ibindi byose bitunganywa hakoreshejwe amata y'inka.

Iduka ricuruza amata n'ibiyakomokaho, ndetse n'ibindi abaturage baza kugura byerekeranye n'amata n'ibiyakomokaho.

Ahacururizwa ibyo kunywa n'ibyokurya birimo ibikomoka ku mata hateretse ibibikwamo ibiribwa ndetse biteretse mu idirishya rifunguye.

Ahacururizwa ibiribwa byo kurya bya buri munsi, byiganjemo ibikorwa mu ifarini, aha bigaragara ko uhacururiza, ari iruhande rw'umuhanda, akaba ari iby'abantu barya bya buri munsi.

Ahacururizwa ibyokurya byoroshye biribwa n'abantu bya buri munsi harimo nibyokunywa bicururizwa ahegereye umuhanda.

Iduka ricuruza ibinyobwa by'abantu bakenera bya buri munsi, bigiye bitandukanye, harimo imitobe ndetse n'amazi.

Ahacururizwa ibikomoka ku mata ndetse n'ibindi binyobwa abaturage ubakenera, hari imashini ifasha mu kubika amata.

Iduka ricuruza ibikomoka ku mata ndetse n'amata, aho abaturage bajya kugurira amata ndetse n'ibiyakomokaho.

Uburyo bw' ikoranabuhanga bukoreshwa mu kwishyura ndetse no kohererezanya amafaranga hakoreshejwe mudasobwa cyangwa telefone igendanwa.

Ifoto imenyesha abantu uburyo bushya bwo gukoresha abantu bishyura, cyangwa bohererezanya amafaranga, bwa banki bukoreshezwa muri telefone igendanwa ishishikariza abantu kuyikoresha.

Urubuga rwifashishwa mu kwishyura no kwishyurana amafaranga rw'ikigo cy'imari kizwi nka banki rukaba rukoreshwa muri telefoni zigendanwa.

Ubutumwa bugenewe abakoresha uburyo bwo kohererezanya amafaranga hakoreshejwe telefoni zabo zigendanwa umenyesha ko hari amafaranga yakiriwe kuri konti yawe.

Urubuga rukoreshwa mu kwishyura ndetse no kwishyurana amafaranga hakoreshejwe terefone igendanwa cyangwa mudasobwa ikoreshwa n'umuntu.

Uburyo bukoreshwa n'abafite telefoni zigendanwa, mu kohererezanya amafaranga igihe bari gukoresha telefone zabo bohererezanya amafaranga.

Inyandiko y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro iri muri mudasobwa ihabwa umuntu umaze kwishyura umusoro we.

Ku nyandiko iri muri mudasobwa ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro bigaragara ko ari umukiriya wabo yari yakiriye nyuma yo kwishyura umusoro cyangwa se amahoro.

Mudasobwa iri gukoreshwa n'umuntu uri kwaka serivisi ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ku rubuga rwacyo rwa murandasi yakira urupapuro ruvuyeyo.

Inyandiko yi kigo cy igihugu gishinzwe imisoro namahoro iri muri mudasobwa igaragariza usora ko nta mwenda afitiye icyo kigo.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n' amahoro rugaragaraho uburyo abakiriya bishyura imisoro, hakaba n' impapuro bahabwa mu gihe bamaze kwishyura imisoro.

Umuntu werekana inoti zitandukanye z'igihugu, agaragaza ko bakora ivunjisha ndetse bakavunjira abantu mu mafaranga atandukanye.

Ufashe amafaranga mu ntoki y'ibihugu bitandukanye asa n'uri kuvunja cyangwa kugurana amafaranga atandukanye.

Abantu bahererekanya amafaranga y'ibihugu bitandukanye, bisa naho bari kugurana cyangwa kuvunja.

Itangazo ry'ikigo cy'imari kigaragaza uburyo ivunjisha rihagaze hagati y'amafaranga y'ibihugu bitandukanye ndetse n'amadevize y'amahanga.

Iduka ritanga serivisi zo kuvunja amafaranga y'ibihugu bitandukanye, rigatanga na serivisi zo kohererezanya amafaranga, abaturage baje gusaba serivisi.

Ifoto y'ahantu havunjishirizwa amafaranga ya manyamahanga agiye atandukanye, ahantu haba hari nk'iduka rikora ibyo bintu byo kuvunja amafaranga y'ibihugu bitandukanye.

Iduka rivunjishirizwamo amafaranga y'abamanyamahanga ndetse n'amadevize rikifashishwa no mu kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye.

Icyapa kigaragaza iduka rikorerwamo ivunjishwa ry'amafaranga atandukanye ndetse rikifashishwa mu kohererezanya amafaranga.

Iduka ritangirwamo serivise zo kuvunja amafaranga y'ibihugu bitandukanye ndetse no kohererezanya amafaranga avuye mu bihugu bitandukanye.

Icyapa kirangira abantu iduka ribafasha mu kuvunja amafaranga y'ibihugu bitandukanye no kohererezanya amafaranga mu bihugu bitandukanye.

Iduka rivunja amafaranga y'ibihugu bitandukanye, ndetse rikifashishwa mu kohereza no kwakira amafaranga avuye mu bihugu bitandukanye.

Iduka ritangirwamo serivisi zo kuvunja amafaranga y'ibihugu bitandukanye ndetse hakanifashishwa mu kohererezanya amafaranga avuye mu bihugu bitandukanye.

Iduka ritangirwamo serivisi zo kuvunja amafaranga y'ibihugu bitandukanye, rigakoreshwa no mu kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye umuntu yaje gusaba serivisi ahari.

Iduka rivunja amafaranga y'ubwoko butandukanye akoreshwa n'ibihugu bitandukanye ndetse hakaba hifashishwa mu kohereza amafaranga.

Iduka rivunjishirizwamo amafaranga ndetse n'amadevize y'ibihugu bigiye bitandukanye, ndetse hakifashishwa no mu kohereza no kwakira amafaranga.

Ahacururizwa ibikoresho byo mu rugo bikorwa mu mbaho ndetse n'ibindi bikomoka ku biti harimo ameza utubati n'intebe n'ibindi bitandukanye.

Ifoto igaragaza intebe ziteye ahantu hanze hatari mu nzu, abantu bicara bari kuganira bakaba bafatira n'ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya, hari ahantu heza hisanzuye abantu basohokera.

Ahakorerwa ibikoresho bikoreshwa mu nzu bikorwa mu mbaho n'ibindi bitunganywa bivuye mu biti.

Ahakorerwa ibikorwa by'ububaji hari igitanda kirarwamo gikozwe mu mbaho n'ibindi bikoresho bikorwa mu mbaho.

Iduka ricuruza ibikoresho byo mu nzu bikorwa mu mbaho ndetse n'ibindi bitunganywa mu biti.

Intebe nziza ziri mu nzu iteguye neza, irimo ibindi bikoresho, imitako, ndetse n'isaha.

Intebe nziza ziteretse mu nzu cyangwa uruganiriro rurimo ibindi bikoresho, imitako ndetse n'ibindi.

Ahacururizwa ibikoresho byo mu nzu bikenerwa bikorwa mu mbaho ndetse n'ibindi by'imyenda byifashishwa mu kwicaraho no gukoresha mu mazu aturwamo.

Akabati cyangwa se ahabikwa ibintu gakozwe mu mbaho hamwe hakaba hafunguye, ahandi hafunze mo hagati mu hafunguye bigaragara ko gakozwe mu mbaho kanafunguka neza.

Ahacururizwa ibikoresho byo mu rugo ndetse n'indi mitako ikorwa mu mbaho cyangwa ibindi bikomoka ku biti.

Inyubako zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba zikodeshwa mu buryo bwo kuraramo by'igihe gito, cyangwa abazibamo bazikodesheje, ziherereye mu mugi.

Ubwogero burimo amazi intebe ziteguye abantu bicaye imbere y'inyubako ndende yigorofa yakirirwamo abakiriya.

Ahabera inama hateguye neza intebe zo kwicaraho ameza ateretseho amazi ikigaragaza amashusho ndetse n'amatara yaka mu nyubako.

Inyubako ndende y'igorofa, irarwamo n'abantu cyangwa igakodeshwa, mu gihe runaka ifite aho batemberera, imbere yaho hari amazi.

Ameza ateretseho ibinyobwa ndetse n'ibyifashishwa mu gukora ibinyobwa, hari n'ibirahuri byifashishwa mu kunywa.

Inyubako ikorerwamo n'ibigo bitandukanye bigaragara ko hatangirwa ubwishingizi ku binyabiziga ndetse n'indi mitungo y'abaturage. Hakaba hagaragara ko ariho hari icyicaro gikuru.

Inyubako ikorerwamo n'ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima n'ibindi. Inzira inyurwamo n'abanyamaguru, abanyamaguru batambuka n'icyapa cyo ku muhanda.

Ibiro bikorerwamo n'ikigo gitanga ubwishingizi ku buzima ndetse no ku bindi bikoresho, hagaragaramo ibikoresho nka mudasobwa byifashishwa mu kazi kabo.

Inyubako ndende y'igorofa, ikorerwamo n'ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi, ndetse haparitse ibinyabiziga iruhande rw'inyubako.

Inyubako ndende y'igorofa ikorerwamo n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi, imbere hateye ibimera, ubusitani burimo n'ibiti.

Ifoto ya sare ikorerwamo inama cyangwa se inzu mberabyombi ikorerwamo inama y'abantu bari kuganira bicaye bigaragara ko ari ikigo gishobora kuba gitanga ubwishingizi.

Inyubako yubatswe mu buryo bugeretse cyangwa igorofa, ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse itangirwamo serivisi z'ikigo gitanga ubwishingizi ku buzima n'imitungo y'abantu.

Itangazo rya banki cyangwa ikigo cy' imari gishishikariza abaturage kuza gufata inguzanyo zo gukora imishinga yabo yo kwiteza imbere.

Itangazo ry'ikigo cy'imari cya banki gishishikariza abaturage kuza gufata inguzanyo zo gukora imishinga yabo y'ubwubatsi ndetse n'indi ibyara inyungu.

Itangazo ry'ikigo cy'imari cyangwa banki, kigaragariza abaturage ko cyafunguye irindi shami rishyashya ribegereye, kugira ngo bakigane, kibahe serivisi za banki.

Inzu itangirwamo serivisi za banki, zerekeranye n'inguzanyo, zihabwa abaturage cyangwa abandi bantu bihuje, bafite umushinga ubyara inyungu.

Itangazo rya banki rimenyesha abakiriya bayo ko iri gutanga inguzanyo ku giciro gitoya, ibashishikariza kuza kuzifata.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ikigo cy imari zijyanye no kubitsa, kuguriza ndetse no gutanga inguzanyo, ku mishinga y'abakiriya ba banki.

Ifoto yikigo cy'imari cyangwa se banki irimo irabwira abakiriya bayo, ko iri gutanga ubwishingizi ku mishinga yabo kugira ngo babashe gukora imishinga kandi yishingiwe.

Inyandiko za banki cyangwa ikigo cy'imari kigaragaza uburyo gitangamo inguzanyo ku baturage ndetse n'abandi bihuje bifuza gukora imishinga.

Itangazo ry'ikigo cy'imari cyangwa banki rishishikariza abaturage kuza gufata inguzanyo zo guteza imbere imishinga yabo.

Umuntu utanga serivisi zijyanye n'imari ndetse na banki, abaturage bamugana baje gusaba izo serivisi ari gukoresha mudasobwa.

Itangazo ry'ikigo cy'imari cyangwa banki gishishikariza abaturage kuza gufata inguzanyo zo kuzamura imishinga yabo yo kwiteza imbere.

Itangazo rigenewe abaturage rigaragaza ikigo cy'imari cya banki, kibabwira ko kibafitiye inguzanyo mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Itangazo ry'ikigo k'imari cyangwa banki, gishishikariza abaturage kuza gufata inguzanyo mu kigo cyabo, babagaragariza ko babaha inguzanyo mu buryo bworoshye.

Itangazo rya banki rigaragariza abaturage ko bari gutanga inguzanyo mu cyumweru cyahariwe gutanga inguzanyo ku baturage.

Isoko ritoya ryiganjemo ibiribwa bikenerwa mu gikoni abaturage bari kuhacuruza abandi baje guhaha.

Isoko ritoya ricururizwamo ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibiribwa byiganjemo imboga n'imbuto hari abaturage bari kubigurisha.

Isoko rito ricururizwamo imboga n'imbuto, ababyeyi bicaye abandi bacuruza ibiribwa, amaduka acururizwamo ibikoresho.

Isoko ricururizwamo imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu rugo, hari abacuruzi ndetse n'abaguzi baza kugura ibyo bicuruzwa.

Umubyeyi w'umumama uhetse umwana, ari gucuruza ibyo kurya bijyanye n'imboga ndetse n'imbuto.

Inyubako zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga n'abaturage, imisozi ikikije umujyi utuwemo n'abaturage.

Isoko rito ricururizwamo ibyo kurya byiganjemo imbuto, umucuruzi acuruza munsi y'umutaka, umuturage yaje guhaha.

Isoko rito ricururizwamo ibyo kurya byiganjemo imbuto, abaturage bari gucuruza, abandi baje guhaha imbuto.

Isoko ricururizwamo imboga ndetse n'ibindi biribwa bikenerwa n'abaturage. Umubyeyi yicaye iruhande rw'imboga zipanze neza aho zicururizwa.

Isoko ricururizwamo ibikoresho ndetse n'ibindi bicuruzwa bikenerwa n'abaturage, hari abaturage benshi baje guhaha, hari n'ibinyabiziga birimo imodoka n'amapikipiki.

Iduka ricuruza ibiribwa n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abaturage. Abaturage baje guhaha bimwe mu bikoresho.

Isoko riciriritse ricururizwamo ibyo kurya byiganjemo imboga n'imbuto, abaturage bari gucuruza abandi baje kwihahira bimwe mu biribwa.

Isoko ritoya rikorerwamo ubucuruzi bwibiribwa bwiganjemo imbuto, abaturage bacuruza abakiriya nabo baje kugura.

Isoko rito ricuruza ibiribwa byiganjemo imboga n'imbuto, umuturage yicaye acuruza abandi bakaza guhaha.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho cyangwa igorofa, ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, abaturage benshi bari gutambuka imbere yabo mu nzira zabo.

Isoko ritoya ricururizwamo ibyo kurya hakaba higanjemo imboga n'imbuto n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Isoko ritoya ricuruza ibiribwa byiganjemo imbuto ndetse n'imboga, hakaba hari abaturage bari gucuruza ibyo biribwa.

Isoko ricururizwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abaturage, abaturage bakaba baje guhaha ibyo bicuruzwa.

Isoko ritoya rikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa ryiganjemo imboga, abaturage bari gucuruza ndetse n'abakiriya baza guhaha mu nyubako.

Isoko rito ricuruza ibiribwa byiganjemo imboga n'imbuto ndetse n'ibindi biribwa, abaturage bacuruza abandi batambuka.

Isoko ricururizwamo ibiribwa byiganjemo imbuto n'imboga, abaturage bajya guhaha abandi bacuruza, ari isoko riciriritse.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa bya buri munsi, hari abaturage bari gucuruza ndetse batunganya ibiribwa bazanye ku isoko.

Isoko rito ricururizwamo ibiribwa byiganjemo imboga n'imbuto abaturage bakenera mu gihe bagiye guteka.

Ifoto y'ahacuruzwa ibyo kurya byiganjemo imbuto hagaragara ko ari mu isoko riciriritse harimo abaturage bari kugurisha ibyo kurya birimo imbuto.

Isoko rito ricururizwamo ibiribwa n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abaturage, imitaka icururizwamo, abaturage batambuka banyuranamo.

Isoko rito ricururizwamo ibiribwa birimo imbuto n'ibindi bikoresho umuturage yicaye acuruza ndetse hari n'abaguzi.

Icyapa gitoya cyereka abakiriya uburyo ubakoresha bishyura amafaranga, hakoreshejwe terefoni ngendanwa, igihe hari icyo waguze.

Iduka ritangirwamo serivisi zo kohereza no kwakira amafaranga, hakoreshejwe ikoranabuhanga rya terefoni zigendanwa.

Iduka ririmo ufasha abantu kwakira ndetse no kohererezanya amafaranga, hakoreshejwe telefone zigendanwa, hakoreshejwe ikoranabuhanga ritandukanye.

Iduka ritangirwamo serivisi zo kohereza no kwakira amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga cyane telefoni zigendanwa, hari abakiriya baje gusaba serivisi.

Ahatangirwa serivisi zo kohereza, no kwakira, amafaranga. Hakoreshejwe telefone igendanwa. Umuturage afashe igare, undi afashe telefone igenda.

Urubuga rwa murandasi rucuruza ibikoresho ndetse ndetse n'ibindi bikenerwa ku isoko, biigakoresherezwa muri telefoni zigendanwa cyangwa mudasobwa.

Amapikipiki ari mu muhanda, ariho abayatwara yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa byaguriwe kuri murandasi bigezwa ku babiguze.

Imodoka zitwara imizigo ziparitse ahantu hamwe imbere y'inyubako imodoka zitumwa igihe umuntu yahashye hifashishijwe ikoranabuhanga.

Isoko ryo kuri murandasi rikoreshwa n'abantu bari guhaha bakoresheje telefone zabo ngendanwa bakabona ibyo bahashye.

Ahacururizwa ibiribwa bikorewe kuri murandasi hakagurirwa n'abantu ariko batahageze bifashishije telefone zabo.

Urubuga rwa interineti rwifashishwa muri terefoni zigendanwa, igihe umuntu ari guhaha ibikoresho bitandukanye byo mu rugo n'ibindi bikenerwa akoresheje terefone igendanwa.

Urubuga rukoreshezwa muri telefone igendanwa, rwifashishwa mu guhaha ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho, bikenerwa mu rugo n'uba yabiguze.

Inzu zo guturwamo zubatswe mu buryo bugezweho, ziri kugurishwa cyangwa ziri ku isoko ziherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ikaba iturwamo n'abaturage harimo aho kurara ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa bya buri muntu.

Inzu zikodeshwa, aho ba nyirazo bashishikariza abantu kuza kuzikodesha, ku mafaranga makeya, kandi zikaba zigezweho, ari inzu zo guturamo, ziherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kanombe.

Iduka ricuruza imyambaro, ibikapu, inkweto ndetse n'imikandara byose byambarwa n'abantu.

Ahacururizwa imyambaro n'inkweto byose bikenenerwa n'abaturage mu kwambara ndetse n'abamurika imideli.

Ahacururizwa ibikoresho, imyambaro, ibiribwa n'ibindi bikenerwa n'abaturage, abaturage baje guhaha abandi barimo baracuruza.

Iduka rigezweho ricuruza ibikoresho, ibiribwa n'ibinyobwa bipanze mu tubati bigurishirizwamo umuntu arimo areba ibicuruzwa.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye bikenerwa ndetse abaturage bari gucuruza, abandi baje kwihahira, bimwe mu bicuruzwa bicururizwamo.

Inyubako ndende zikorerwamo ubucuruzi bwibikoresho bikenerwa n'abaturage, hagakorerwa n'ubucuruzi bwa serivisi zihabwa abaturage.

Isoko cyangwa se iguriro ricuruzwamo inkweto, imyambaro ndetse n'ibikapu abantu bifashisha mu byerekeranye n'imideli cyangwa se kwambara harimo abaje kugura ndetse n'abacuruzi.

Iduka ricururizwamo ibiribwa bikenerwa n'abantu ndetse n'ibinyobwa, riri iruhande rw'umuhanda bigurwa n'abaturage ndetse n'abahanyura.

Iduka ricururizwamo ibyoku kurya ndetse n'ibinyobwa n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abaturage, abakiriya baje guhaha ibikoresho bitandukanye.

Isoko rigezweho ricuruza ibinyobwa, ibiribwa, n'ibindi bikoresho bitondetse neza mu kabati bicururizwamo, umuntu yaje guhaha.

Icyapa gishishikariza abaturage kugira ubwishingizi bw'izabukuru, akaba ari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi cyitwa ejo heza.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi gishishikariza abaturage gufata ubwishingizi bwa mituweli hariho ababyeyi bicaye hamwe.

Ikarita ikoreshwa mu buvuzi igaragaza ko uwishyuye ubwisungane mu kwivuza, ikoreshwa kwa muganga ndetse no mu bitaro.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda, rugaragaza uko abaturage bagenzura imisanzu yabo baba batanze.

Umukono na kashe bishyizwe ku nyandiko ya minisiteri y'ubuzima igaragaza uko umwaka wagenze.

Itangazo ry'ikigo gitanga ubwishingizi bw'ahazaza, gishishikariza abaturage gutanga ubwishingizi bwabo buzabafasha bageze mu zabukuru.

Ikarita y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda ihabwa uwafashe ubwishingizi bw'ubuzima buzwi nka mituweli ikaba ikoreshwa kwa muganga.

Ifoto y'igorofa cyangwa se inyubako ndende, igaragara ko iri mu mujyi, iruhande rw'umuhanda uri gucamo amamodoka, ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, bigaragara ko ari ahantu hashobora kuba hakorerwa ubucuruzi.

Abaturage bitabiriye gahunda za leta, basaba serivise, bicaye hamwe aho bahuriye, harimo abakuze n'abakiri batoya, bicaye mu nyubako imwe.

Umuntu uri gukoresha mudasobwa ari gukoresha urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda, bigaragara ko gishishikariza abantu kugira ubuzima bwiza no kugira ahazaza heza.

Isoko rigezweho ricururizwamo ibikoresho, ibiribwa ndetse n'ibindi bikenerwa n'abaturage, umuturage yaje guhaha, afite igare asunika.

Isoko rigezweho rigurirwamo ibikoresho, ibiribwa n'ibinyobwa abaturage baje guhaha ndetse abacuruzi bari kugurisha.

Isoko rigezweho, ricururizwamo ibinyobwa, ibiribwa , n'ibindi bikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, abaturage baza guhaha, abandi bacuruza.

Isoko rigezweho ricururizwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abaturage mu buzima bwa buri munsi bakaza kubihaha.

Iguriro rigezweho cyangwa isoko ricururizwamo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bya buri munsi bikenerwa n'abaturage mu buzima busanzwe.

Iduka ricururizwamo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, abaturage baza guhaha ibyo bicuruzwa.

Ahacururizwa imboga ndetse n'imbuto n'ibindi, umuntu yaje guhaha ibicuruzwa bitondetse neza mu kabati.

Isoko rigezweho ricururizwamo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abaturage. Bipanze neza mu tubati bicururizwamo, ibindi bimanitse.

Isoko rigezweho ricururizwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa n'ibindi bikoresho bikoreshwa n'abaturage mu buzima bwa buri munsi.

Isoko rigezweho ricururizwamo ibiribwa, ibinyobwa, nibindi bikoresho bitandukanye bikenerwa nabaturage, umukiriya yaje guhaha bimwe muri byo.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, bikenerwa mu buzima bwa buri munsi ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, abaturage baza guhaha ndetse hari urujya n'uruza rw'abakiriya.

Isoko rigezweho ricururizwamo ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abantu, umubyeyi ari guhaha akoresheje igare risunikwa.

Isoko rigezweho ricururizwamo ibyoku kurya ndetse n' ibinyobwa, abaturage baza guhahiramo.

Isoko rigezweho ricururizamo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, abaturage baza guhaha ngo babikoreshe.

Isoko rigezweho ricururizwamo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abaturage, biteretse hamwe aho bicururizwa.

Iguriro rigezweho ricururizwamo ibikoresho byifashishwa mu rugo ndetse n'ibiribwa n'ibinyobwa n'ibindi bikenerwa n'abaturage.

Iguriro rigezweho ricururizwamo ibikoresho birimo; ibiribwa, ibinyobwa, n'ibindi bikenerwa n'abaturage, hari ucuruza n'abakiriya baje kugura.

Isoko rigezweho ricururizwamo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abaturage rikaba rihahirwamo n'abaturage.

Isoko rinini ricururizwamo ibikoresho bikenerwa bya buri munsi hakaba hahirwamo ibiribwa, imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho.